Mu myubako mu imbere hicayemo abantu babiri bafite ubumuga bagendera ku magare y'abafite ubumuga hari n'abandi bantu babiri babahagaze inyuma, bahagaze imbere y'intebe, hirya hari n'izindi ntebe nyinshi.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'ubwirinzi, ni imyenda bambara mu gihe hari icyorezo gikomeye cyane, bakayambara mu buryo b'ubwirinzi bafite akagare bakoresha kwa muganga bacungaho abarwayi hariho umuntu w'umurwayi wambaye imyenda yo mu mabara y'umukara.

Abakozi bo mu kigo gitanga ubuvuzi bw'ibanze Kuluwa ruje, bane bahetse umurwayi uri ku gatanda kabugenewe batwaraho umurwayi n'undi mugabo uri hirya ku ruhande uri kubareba, aho bari kuzamura umurwayi.

Umuntu bigaragara ko ari umuntu w'igitsinagabo, ni umuntu usa nkaho yavunitse bakaba bamukoteye ukuboko ,bakaba bamwambitse n'akantu kwa muganga bakwambika, kagufasha ko ukuboko guhora kuzamuye kutamanutse.

Abaganga bambaye imyenda y'ubwirinzi, imyenda bambara iyo bari kwirinda icyorezo. Barimo barasuzuma imimerere y'umurwayi, umurwayi uryamye ku gatanda ko kwa muganga.

Umugabo ukiri mutoya wogoshe mu mutwe, bigaragara ko ari nk'ahantu hari ikintu cyamukubise akabyimbirwa, noneho hakazi gisebe, abaganga bakamwogosha ubundi bakahapfuka.

Abantu bari mu nama imbere yabo hariho uri kubaganiriza wambaye igisarubeti cy'amabara y'ubururu bwijimye n'umweru, uri kuganiriza abantu bicaye mu ntebe z'imikara ndetse n'ameza y'umweru imbere yabo.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'umweru, imyenda y'amasurubeti abaganga bakunze kwambara mu gihe bari kwirinda nk'icyorezo runaka. Ni abaganga barimo baterura umusore ukiri muto bashaka kumushyira ku kantu batwaraho abarwayi.

Abantu barindwi bicaye ahantu ku ntebe ebyiri ziri ahantu mu mbuga y'urugo, hejuru yaho hari icyapa cyanditseho umusaraba, umusaraba uranga ikigo gitanga ubutabazi bw'ibanze Croix rouge.

Abantu bo mu kigo kitanga ubutabazi bw'ibanze, ubwo mu Rwanda tuzi nka kuruwruje, bari mu nzu bari kuganira, iyo nzu irimo mudasobwa nyinshi bakoresha.

Abayobozi b'ikigo runaka bambaye imipira iriho ikirango cyayo imupira y'umweru, inyuma yaho hariho itente basakaje, ibitambaro birimo amabara y'umuhondo n'icyatsi n'umweru.

Abadamu batatu barimo babiri bafite abana, umwe uri kumwonsa, undi umuhetse ahagaze mu idirishya avugana n'undi muntu uri mu idirishya mu cyumba gifite icyapa cyanditseho mituweri.

Abantu benshi barimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo bameze nk'abari kwifotoza barimo n'abandi babiri bambaye amataburiya asa nkaho ari aya abaganga.

Umukobwa urwaye mu bitaro, imbere ye hari umuganga wambaye itaburiye n'abandi baturage umukobwa urwaye arimo arakina n'akabaro gafite amabara y'umutuku n'umukara.

Abantu batatu barimo ab'igitsina gabo babiri n'umugore umwe, bari ahantu mu kirongozi k'inzu harimo uri gukora ku nzu, wagira ngo hari ibintu ari guhanaguraho, n'abandi nabo bari kureba imbere ku rukuta rubari imbere nabo basa nk'aho bagiye kuyikoraho.

Ahantu mu cyumba kimeze nkaho ari sitidiyo harimo abantu bari kuganira n abantu batanu barimo ab'igitsina gabo bane n'undi umwe w'igitsina gore, ni ahantu muri studio yanditsemo ngo Nyagatare, mirongo icyenda na gatanu n'ibice bitanu FM hafi yawe.

Itsinda ry'abantu batanu harimo abagore babiri ndetse n'abagabo batatu, bicaye ku ntebe usa nk'aho bari gukoresha inama ku nsanganyamatsiko igira iti:"Rubyiruko kugira amakuru ku buzima bw'imyororokere ni uburenganzira bwanyu."

Umuganga w'igitsina gabo uri imbere y'umurwayi uryamye ahantu ku gitanda cy'abarwayi, ni umugabo w'umuganga urimo umupima ngo yumve uko umutima utera yifashishije akuma kabugenewe abaganga bakoresha bumva uko umutima utera.

Inyubako iri ahantu, inyubako imeze nk'aho ari inyubako y'ivuriro, iruhande rwayo ahagana imbere hari ambilanse, ambilanse imwe yihutisha abarwayi bajya kwa muganga, hepfo ya ambilanse hari inyubako isize amabara y'umuhondo.

Umuganga wambaye ga y'umweru, wambaye itaburiya y'ubururu, ikoreshwa mu cyumba cyo kubaga arimo, gukora ku byuma bitandukanye harimo nk'imikasi, amaserenge, n'ibindi bikoresho bakoresha mu kubaga.

Inyubako ebyiri zitekanye hagati hari ahantu abantu batambuka ariko hakaba hasakaye ku buryo nta zuba ryagera ku bantu bahicaye, imbere yaho hari indabo ziteye ziganjemo ibara ry'umuhondo.

Icyumba kimeze nk'icyabereyemo inama, ni icyumba kirimo abantu benshi harimo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo bose bicaye ahantu mu cyumba, ni icyumba gisize amabara y'umuhondo ku rukuta.

Imodoka iri mu bwoko bwambulance ihagaze ahantu hasa nk'aho ari inyubako y'ikigo nderabuzima cyangwa se santire de sante mbere yaho hari icyapa kiri mu mabara y'icyatsi cyanditseho ibintu byinshi.

Ikirongozi kiri ahantu cyubakiye gisakaje amabati, hari abantu bahagazemo, bigaragara ko bari kwikinga izuba, abandi bari kuhanyura bagana mu nyubako ziri ahagana imbere yacyo.

Abantu bane barimo baganira, harimo abagabo babiri n'abagore babiri, umwe muri abo bagore kaba ari umuzungu, abandi bakaba ari abirabura, bari mu cyumba kirimo intebe kigaragara nk'aho ari laboratwali, kubera ibyuma birimo gukoreshwa muri laboratwari.

Abantu batandatu bari mu icyumba cya laboratwari cyangwa icyo twita isuzumira mu Kinyarwanda basuzumiramo ibintu bitandukanye, ni abantu bambaye amataburiya y'abaganga, barimo barareba ku bintu runaka, imbere yabo hari ameza hariho amakayi.

Muri raboratwari aho basuzumira ibintu runaka nk'imiti, umurwayi, ibintu runaka ni raboratwari ya kijyambere irimo ibikoresho bya kijyambere byifashishwa mu gusuzuma.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru, wambaye agapfukamunwa k'umweru, wambaye na ga z'ubururu, yicaye ahantu ku ntebe arimo arareba ibintu biri ku meza bimeze nk'aho ari muri laboratware, afite ikintu arimo agenda ashyirisha utuntu mu ducupa.

Umuntu wambaye ga cyangwa se uturindantoki two mu ibara ry'ubururu, afite agacupa gatoya gasa n'agashyirwamo imiti, akaba asa nk'ugakuye mu uducupa twinshi natwo dusa n'utuvamo imiti tw'amabara y'ubururu n'umweru.

Ahantu hubakishije amatente harimo ababyeyi benshi bafite abana b'impinja harimo n'abagabo ariko biganjemo ab'igitsina gore benshi cyane barimo bafite abana bakiri batoya bose.

Abana bari kunywa amata imbere yabo hagaze abandi bantu bakuru, abamama, abamama babo barimo baranywa amata banywera mu bikombe binini cyane ibikombe by'iroze n'amabara y'umweru.

Umubyeyi bigaragara ko asa n'ukuzemo arimo afite inkongoro ya kinyarwanda. Arimo aranywesha uwo mwana mata, umwana wambaye ishati y'ubururu. Bigaragara ko akiri muto yiga mu mashuri abanza.

Inyubako iriho abantu bakuru bigaragara ko baje gusura, abana bakiri bato bari mu kigero nk'icyimyaka ibiri, bashobora kuba biga nko muri garidiyene cyangwa se mu mashuri, abanza ariko yo hasi.

Abantu bambaye amarakosite y'icyatsi asa, imbere yabo hari ameza, atatswe n'ibitambaro by'icyatsi ndetse n'umweru bicaye mu itente itatswe n'ibitambaro by'icyatsi, n'umweru.

Ahantu hari abantu bicaye, hari abana bicaye ku mukeka, hari umuntu wambaye ijire uri kubaha amata, abana bari kunywera amata mu nkongoro za kinyarwanda zimwe za kera.

Umukobwa wicaye ku mukeka uteruye umwana, ari kumuha igikoma mu gikombe cy'icyatsi n'undi mukeka nawo wicayeho abandi bana bafite ibikombe, bari kunywa igikoma n'abandi bamuzengurutse nabo bari kunywa ibikoma.

Abantu benshi barimo abakuze benshi n'abana bakiri batoya, ni abantu bambaye imipira yo mu ibara rya oranje aho abakuru barimo baha abana amata bifashishije inkongoro za kinyarwanda.

Abantu batatu barimo umubyeyi uhetse umwana ukiri muto, afite n'undi afashe akaboko barimo bagana imbere ku nyubako, inyubako isize amarangi y'ubururu, ubururu butijimye cyane.

Itsinda ry'abantu bambaye imipira isa y'icyatsi, bifotoranyije n'abasirikare babiri ndetse nundi muntu umwe wambaye ikositimu yibara ry'ivu na karuvati y'umutuku.

Abayobozi bambaye imipira ya orange n'undi wambaye ikanzu y'icyatsi n'umupolisi n'umusirikare n'abandi benshi barimo barafungura ahantu ,bifashishije ururabo rwabugenewe bakoresha bari gufungura ahantu.

Abantu bambaye impuzankano y'imipira y'icyatsi, y'amarakosite, abantu bari mu itente y'amabara y'umweru n'ay'icyatsi, ni abantu bameze nk'abantu bari ahantu mu nama kuko bicaye hamwe basa n'abaganira.

Abantu batatu barimo abagabo babiri n'umugore umwe, usa nk'aho bari kuvuga, wambaye icyo bita ikarita y'akazi cyangwa baji y'akazi, urimo muri abo bagabo, umugabo muremure cyane, w'inzobe.

Ahantu mu nyubako ariko inyubako idafite inkuta, harimo abacungagereza inyuma yaho harimo abagororwa benshi bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, imbere yabo hari icyapa cyanditseho ngo "umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, duharanire kubaho neza twita ku buzima bwo mu mutwe bwa buri wese" tariki ya cumi ukwakira, bibiri na makumyabiri na kabiri.

Abantu batandatu b'igitsina gore harimo umwe, ufite mikoro n'abantu bambaye imipira isa, iriho ikirango cya yusayidi inyuma yaho hari icyapa, cyanditseho duha miki adiri.

Inyubako y'imiryango ibiri ifite icyumba kimwe kirimo farumasi n'ikindi cyumba gicuruza ibintu bisanzwe, hejuru hariho icyapa cya Mobile Money, handitseho n'amagambo yandika ngo Aderenarini farumasi.

Umuntu usa nkaho akora muri farumasi yambaye ishati y'umweru ikunze kwambarwa n'abakora muri farumasi, arimo arareba udukarito tubikwamo imiti itandukanye iri mu tu etajeri.

Farumasi, irimo utu etajeri. Utu etajeri turimo imiti. Hari imiti iri mu amacupa asanzwe, n'imiti iri mudukarito, ndetse n'ibindi bikarito bisanzwe bipfunyikwamo imiti.

Umuhanda, bisa nkaho ari muri rompuwe cyangwa se icyo twita ihuriro ry'imihanda mu Kinyarwanda, iruhande rwawo hariho, abantu bari kugenda, ufite igare n'undi uri kuri moto.

Udukarito turimo amabara y'icyatsi n'amabara y'umuhondo ni udukarito dushushanyijeho inkoko, inkoko n'udushwi, ni udukarito twanditseho amagambo agira ngo: "Tromoxol Vet".

Icyumba kirimo utu etajeri tugiye dupanzeho imiti y'amoko menshi, harimo iri mu dukarito ndetse n'indi iri mu ducupa tw'amazi, irimo isa n'ubururu isa n'icyatsi n'umweru n'andi mabara.

Abakobwa bakiri bato babiri bafite icyapa cyanditseho ngo ugakoreshe neza, wambaye n'imipira y'ibara ry'umweru, nayo yanditseho ngo ugakurure ugakoreshe neza.

Icyumba kinini cyane kimeze nk'aho ari icyumba cy'inama kicayemo abantu benshi ni abantu ariko bisa nk'aho bakiri batoya ari urubyiruko, imbere yabo hari umwe w'igitsina gabo urimo arabaganiriza.

Ahantu mu nyubako, ni inyubako irimo abantu benshi, ahantu hameze nkaho ari ahantu hari kubera inama, imbere y'abo bantu hari icyapa, ni icyapa kinini cyane, kiri mu mabara y'ubururu n'ay'umweru, handitseho, RBC.

Icyapa kigaragaza abantu babiri baribuze kuba ari abatumirwa mu kiganiro cya Isango Star Radiyo, kuwa kane letariki makumyabiri z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na kane saa munane kugera saa cyenda, abo batumirwa barimo Dr. Marie Grace ndetse na Claudine Nyiramana.

Abantu benshi barimo umupolisi n'umusirikare ni abantu barimo abambaye amarakosite y'umweru n'ingofero z'umweru bicaye ahantu hameze nk'inyubako yabugenewe kugira ngo habereyo ibiganiro, imbere yabo hari icyapa cyanditseho ngo kurandura malariya bihera kuri nge.

Abanyeshuri bambaye amashati y'ubururu bwerurutse, bafite icyapa cyanditseho ubuzima bwanjye, kuruhande rw'ibumoso wanditseho agaciro, ku ruhande rw'iburyo handitseho kanjye.

Abantu bambaye amataburiya y'ubururu, n'abandi bambaye imipira y'umutuku, bicaye mu itente, bari mu nama, barimo baganira bigaragara ko bishimye bari kuririmba.

Icupa ririmo umuravumba bumishijeje, ryanyanditseho ngo umuravumba Tetradenia riparia, hariho ifoto y'umuravumba, hariho n'andi magambo asobanura icyo umuravumba umara n'inyunganiramirire.

Ameza ateretseho ibyatsi bya kinyarwanda byifashishwa mu gukora imiti gakondo, imiti itakurwa muri farumasi hariho akantu kameze nk'umunzani upima ibintu n'indi miti iri mu tuntu tw'udusahane.

Umuntu w'mama w'igitsina gore arimo arareba amababi y'imiravumba, ni imiravumba isa naho iri mu rutoke umuntu afite igikapu ndetse yambaye n'isharupe y'umweru.

Abana barindwi bicaye imbere y'inyubako, inyubako yibara ry'ubururu yanditseho gira ubuzima imbere yayo hari umu mama urimo yinjiramo yambaye imyenda y'ibitenge.

Muba imbere y'inyubako ebyiri zifite amabara y'ubururu inyubako ziriho icyapa cyanditseho ngo gira ubuzima iruhande rw'inyubako imwe hariho ikigega cy'umukara, abo bantu barimo umusirikare bambaye amataburiya y'akazi y'abaganga ndetse n'abandi bantu bambaye imyenda isanzwe.

Inyubako ibagejeje amatafari ahiye, imbere yayo hari ibyapa bibiri, kimwe cyigana kuri iyo nyubako ikindi kikaganira ku yindi nyubako, hirya hagaragara ko ari nk'ibiro imbere yaho hari ubwogero bwa kijyambere.

Umuganga urimo urasuzuma umurwayi asuzuma imiterere y'umutima w'umurwayi uryamye ku gitanda, umuganga yambaye itaburiya y'akazi afite n'akantu kabugenewe abaganga basuzumisha umutima w'umurwayi.

Ahantu mu cyumba, ni icyumba cy'isuzumi ryo kwa muganga, harimo abantu batatu b'igitsina gore babiri b'abarwayi n'undi umwe w'umuganga wambaye itabuririya y'umweru wambaye na ga urimo arareba umwe muri abo bantu.

Inyubako ebyiri z'ivuriro rito ari iryo twita Santeredosante cyangwa se Kirinike, imbere y'aho hari jaride ndetse ku rubaraza rwaho hicayeho abarwayi baje gushaka serivisi z'ubuzima.

Inyubako isize amarangi yo mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hahagaze abantu benshi, bamwe bambaye amataburiya bisa ko ashobora kuba ari abaganga, iyo nyubako, inyubako yanditseho amagambo agira ati: "Girubuzima".

Umuganga wambaye imyenda y'ubururu n' imyenda yabugenewe abaganga bambara, arimo asuzuma imiterere y'umutima w'umurwayi, umurwayi w'umusore ukiri mutoya, wambaye imyenda abarwayi bambara.

Abantu bicaye mu cyumba ni icyumba bicaye mu ntebe ngari cyane imbere yabo hari umuntu w'igitsina gore wambaye itaburiya y'umweru, urimo abaganiriza, inyuma ye hari umunzani ni umunzani bapimiraho abana iyo bagiye muri santere.